Iyi ni imwe mu miti ifasha mu kuvura amatungo, cyangwa se mu bindi bikorwa bijyanye no kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza. Akaba yifashishwa kugira ngo turinde cyangwa se dusigasire ubuzima bw'amatungo.

Mu rwego rwo kurwanya imihindagurikire y'ibihe, twongera umwuka duhumeka. Hagamijwe gutera ibiti bivangwa n'imyaka ariko bitona. Ibyo biti bikadufasha mu kongera umwuka duhumeka ndetse no kurwanya imihindagurikire y'ibihe.

Ubuhinzi bw'indabyo ni bumwe mu buhinzi bwongera ibyoherezwa mu mahanga, hagamijwe kongera umusaruro mbumbe w'igihugu ndetse bukanateza imbere, ababukoramo cyangwa se ababuhinga.

Bimwe mu bice byiza by'imisozi itatse amashyamba ndetse n'icyayi n'ibindi bihingwa bitandukanye ubireba wese akabona binogeye amaso n'uburyo abirebamo kandi bikaba bidufasha mu kwirinda isuri ndetse bigatanga n'umuyaga twirinda imihindagurikire y'ibihe.

Bimwe mu bice byo mu cyaro, aho usanga nta abaturage benshi bahatuye cyangwa se usanga hari higanje amashyamba ndetse na bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko aho duturaga amagi hakavamo imishwi tukayororera hamwe mu byumba byabugenewe kugira ngo yitabweho cyangwa se ihabwe ibindi byose bikenewe kugira ngo ikure neza kandi vuba.

Imwe mu nyamwaswa nziza kandi yuje ubwuzu mu kuyireba izwiho kwirukanka cyane bamwe bayita nk'ihene y'agasozi cyangwa se isha, ikaba ari imwe mu nyamaswa wasanga muri pariki zimwe na zimwe zo mu Rwanda ndetse n'amwe mu mashyamba atandukanye.

Inzovu ni imwe mu nyamaswa z'inyamabere kandi zikaba ari imwe mu nyamaswa nini ku isi zisigayeho ubu ngubu. Zikaba zirimo zirakeyendera kubwo kutazitaho ndetse n'umubare wazo ukaba ari muke usigayeho.